Abantu bagiye mu murima wabo gukura imbuto y'ibirayi yatanze umusaruro, bakayijyana mu isoko kuyigurisha, bakabonamo amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, akabagirira akamaro.

Amagi yashyizwe mu matureyi kugira ngo bayajyane kuyagurisha, atange umusaruro.